Ni abana bane bari ahantu ku ivomero bakaba barimo baravoma amazi mu ijerekani ariko bikaba bigaragara ko arimo arameneka hasi.

Abantu bigaragara ko batuye nko mu giturage cyangwa ahantu hatararatera imbere, akaba ari umugore ndetse n'abana, bari kugerageza kuvoma amazi bayavomera mu mabase, kugira ngo bajye kuyakoresha mu mirima yabo yo mu rugo.

Ni umugore wambaye umupira ufite ibara ry'ubururu ndetse n'agapfukamunwa, akaba arimo arakarabya intoki umwana, wambaye impuzankano ifite ibara rya kaki, ibi bikaba ari ingirakamaro kuko bituma abantu birinda indwara zituruka ku mwanda.

Ni abakobwa babiri bakiri bato, bari ahantu ku ivomero, bamaze kuvoma amazi mu ndobo y'icyatsi, umwe akaba ari gufasha mugenzi we kuyikorera kugira ngo abashe kuyijyana imuhira, ayo mazi akoreshwe.

Ni abantu benshi biganjemo abagore bambaye amajiri afite ibara ry'icyatsi, bakaba bihurije hamwe kugira ngo bifotoze, bakaba bari kumwenyura ubona ko bishimye.

Abantu batandukanye, abagabo batatu ndetse n'umugore umwe, bose bambaye agapfukamunwa, bikaba bigaragara ko babiri muri bo ari abaganga, abandi babiri bakaba baje kubagana.

Ni umugore wambaye igitenge akaba yaje kuvuza umwana we, umwana we kandi koko akaba arimo aritabwaho kuko hari umugabo umuhagaze imbere, wambaye itaburiya y'umweru uri kumuha ubufasha bw'ibanze.

Hari abantu bicaye imbere y'inzu yubatswe n'amatafari ahiye hakaba hari umugore wicaye mu gatebe k'ubururu, uteruye mwana ndetse n'umugabo wicaye imbere ye, akaba afite igitabo bigaragara ko hari ibintu ari kumubaza akabyandika.

Ni akantu karimo umuti ndetse n'inshinge, zikaba zifashishwa mu kuvura abantu kuko zifasha abaganga kuba bakinjiza imiti mu maraso y'abantu kandi bitagoranye kuko izo nshinge zibyihutisha.

Ni ahantu hari inyubako zigiye zitandukanye, ni mu mazu atari manini agihe afite imiryango y'ubururu, ndetse hari uruzitiro rw'utwuma tugiye tunyuranyemo, imbere y'imwe muri ayo mazu hakaba hari umugabo uhagaze.

Ni umugore uteruye umwana, imbere yabo hari umuganga uri kwita kuri uwo mwana, umwana bikaba bigaragara ko ari guhabwa ubufasha ku bijyanye n'ubuzima kandi bikaba ari ibintu byiza cyane mu mikurire y'umwana.

Ni umugabo uri kumwe n'umwana, akaba ari kumukoreza ijerekani yanditseho Unicefu icyo kikaba ari ikigo kita ku bana badafite ubushobozi kugira ngo babashe kubona ibyo bakeneye.

Ni abantu bahagaze benshi, abenshi muri bo bambaye amataburiya y'umweru, bakaba bahagaze imbere y'inzu ifite ibara ry'ubururu yanditseho gira ubuzima, bikaba bigaragara ko ari nk'ikigo nderabuzima.

Abana bambaye impuzankano zisa kaki, bakaba bari ahantu ku mavomero bakaba barimo barakaraba intoki, ibi bikaba ari ibintu byiza bibafasha guhorana isuku ndetse bikanabarinda indwara zituruka ku isuku nke.

Ni abantu bagiye batandukanye, bari ahantu ku ivomero, bakaba barimo barakoresha ivomero rimeze ukuntu, umanura ikintu wongera ukizamura kugira ngo amazi asohoke, bakaba ubona ko babyishimiye.

Umugore uri kugenda akaba yikoreye ijerekani bishoboka ko agiye kuvoma ndetse ku ruhande hari umwana ndetse hari n'umugabo wunamye bigaragara ko ari nk'ibintu ari gutora hasi.

Ni abana batandukanye bamwe barimo barakaraba ndetse n'abandi babari inyuma bategereje ko bagerwaho ngo nabo bakarabe, bikaba ari ibintu byiza bibafasha kuba bagira isuku, bakirinda indwara zituruka ku mwanda.

Ni umwana uri ahantu ku ivomero, bambaye imyenda ifite ibara ry'umutuku, akaba arimo arakaraba, gukaraba akaba ari ingenzi kuko bizarinda ubuzima bwe kuba yarwara indwara zituruka ku mwanda.

Iki ni ikigo cyita ku bana, kikaba cyitwa UNICEF, kikaba ari ikigo gifite akamaro kuko kifasha abana baba baba mu buzima butari bwiza, bityo bakabasha kuba babona ibintu bakeneye mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni umugore w'umurwayi wicaye barimo baramushyiraho ikintu ku kuboko, gipima umuvuduko w'amaraso bakaba bigaragara ko ari nk'umugore waje kwivuza.

Ni abantu bagiye batandukanye, harimo uw'umunyamahanga ufite telefone uri gufotora umugabo uri kwikoreza umwana akajerekani, bikaba bigaragara ko ari nk'icyegeranyo ari gukora, agenda afata amashusho azifashisha.

Ni umwana wambaye ishati y'icyatsi, akaba ari ku ivomero ari gukaraba intoki, bikaba ari ibintu byiza bituma abantu birinda indwara zituruka ku mwanda ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ni umugore wambaye igitenge waje kuvuza umwana we, umwana we akaba arimo arahabwa ubufasha kuko hari umuganga ndetse n'umuforomo, bambaye amataburiya y'umweru bari kumwitaho.

Ni ahantu hateraniye abantu benshi, hakaba hari n'abaganga, bikaba bishoboka ko ari nk'ababyeyi baje gukingiza abana babo, bukaba ari ubukangurambaga kuko biragaragara ko byabereye ahantu hatari kwa muganga.

Ni abantu bagiye batandukanye barimo barifotoza biganjemo abaganga ndetse n'abaforomo, bikaba bigaragara ko bifotoreje ku bitaro cyangwa ku Kigo nderabuzima.

Ni abana babiri, bakaba bari ahantu ku ivomero, bakaba bari kuvomera amazi mu ndobo z'umweru, iri vomero rikaba ribafasha kubona amazi bakenera mu buzima bwabo bwa buri munsi, mu bikorwa bigiye bitandukanye.

Ni abantu bagiye batandukanye bicaye bakaba bazengurutse ameza, bagizwe n'abagabo ndetse n'abagore, bikaba bigaragara ko bari mu nama kuko bamwe muri bo bagiye bafite mudasobwa bari kwandikamo ingingo z'ingenzi.

Ni abana batatu bambaye impuzankano z'umuhondo ndetse n'ubururu bakaba bahagaze imbere y'ahantu bari kuva amazi ndetse bikaba bigaragara ko bafite n'isabune mu ntoki barimo gukaraba.

Ni abagore bagiye batandukanye, harimo uwambaye impuzankano isa iroze, akaba arimo araganiriza abagore bari kumwe, ku bintu bijyanye n'ubuzima, abagira inama zabafasha kubaho neza.

Ni abagabo batatu bose bambaye ama taburiya ndetse n'udupfuka munwa ndetse n'utuntu tubatwikiriye mu mutwe bose bakaba bafite udukarito, bigaragara ko dushobora kuba tubikwamo nk'imiti bakaba bahagaze bari kwifotoza.

Icyapa cyerekana ko nta n'umwe tugomba gusiga inyuma, hakaba hariho abantu bagiye batandukanye ndetse n'amazina yabo, bakaba ari abantu bari gutegura inama, yo kuzaganiriza abantu ku bijyanye n'ubuzima.

Ni abantu batandukanye bicaye bakaba ari abagabo ndetse n'abagore ndetse hari n'umwana, bikaba bigaragara ko ari ikiganiro bari kugira, umugore umwe wambaye umupira w'ubururu bikaba bishoboka ko hari ibintu ari kubahuguramo.

Ni akapa kamamaza umunsi mpuzamahanga wo kwita ku buzima bwo mu mutwe, bakaba bavuze ko uwo munsi ngarukamwaka uba tariki icumi z'ukwezi kwa cumi, uyu munsi akaba ari ingirakamaro.

Umugore ndetse ateruye umwana ndetse hari n'undi mwana umwicaye iruhande, bakaba bicaye hasi ku musambi ndetse imbere yabo hakaba hari agasahani k'umutuku karimo ibintu runaka.

Ni ahantu hateraniye abantu b'ingeri zigiye zitandukanye, imbere yabo hakaba hari umugore, urimo urabaha imbwirwaruhame, bakaba abenshi bafite udukayi ndetse n'ikaramu bari kwandika bimwe mu byo ari kubabwira.

Ni abantu bigaragara ko bari gufata ifoto, bose bakaba bahurije ibiganza ku kantu k'agapapuro k'umweru, bikaba bigaragara ko ari nk'amasezerano bamaze gusinya.

Ni ifoto iriho abana ubona batabayeho ubuzima bwiza kuko bambaye imyenda icikaguritse abenshi, ndetse urabona ko bafite n'agahinda cyane bakeneye kwitabwaho, akaba ariyo mpamvu hashyizweho ya miryango ifasha kwita ku buzima bw'abana bakiri bato.

Ni umugabo urimo ararira, bigaragara ko afite agahinda kenshi cyane. Ibi bikaba bigaragara ko akeneye kwitabwaho akaganirizwa, kuko abantu benshi baheranwa n'agahinda bikaba ndetse byanabaviramo izindi ngaruka zikomeye. Bityo ni byiza rero umuntu kuba yakwemera kuganirizwa mu gihe afite agahinda.

Iki ni igishushanyo k'imibare y'abantu bagiye biyahura guhera mu bihumbi bibiri na kabiri kugeza mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani, bikaba bigaragara ko bagiye bagabanuka ku kigero cyo hejuru.

Ni abantu biganjemo urubyiruko bambaye imipira y'umukara, bicaye ahantu bigaragara ko bari nko mu nama cyangwa amahugurwa, abangaba bose bateze amatwi kugira ngo bumve ibyo bari kubwirwa.

Abantu babiri b'igitsina gore, umwe yambaye ikoti ry'umutuku ndetse n'ingofero, undi bari kumwe yambaye imyenda y'umukara, bikaba bigaragaza ko uwambaye imyenda y'umukara ari guhumuriza uwambaye umutuku.

Hari abantu benshi harimo abapolisi ndetse n'abandi bambaye imyenda isanzwe, bakaba bari kwifotoreza imbere y'icyapa kivuga ko aho habera ibintu bijyanye n'uburinganire ndetse no kwirinda ihohotera ry'abana.

Ahantu hateraniye abantu benshi, hari abagore babiri bari imbere, bikaba bigaragara ko ari nk'umukino bari gukina bigisha abantu bateraniye aho ngaho ku ngingo runaka.

Abantu babiri b'igitsina gore, umwe akaba yicaye afashe ku rutugu rw'undi, bigaragara ko ari nko kumuhumuriza kugira ngo yiyumve neza, umugore akaba bigaragara ko afite agahinda.

Ni umwana wasamye bakaba barimo baramuvura amenyo, bakaba bazamuye umunwa we kugira ngo barebe niba amenyo ye y'ibijigo hari ikibazo yaba afite kugira ngo bagikemure.

Ni umugore wasamye hari undi muntu bigaragara ko ari umuganga urimo uramuvura, bigaragara ko arimo aramuvura ibintu bijyanye n'amenyo, akaba ari byiza kujya kwivuza amenyo kuko bituma umuntu agumana ubuzima buzira umuze.

Umugabo ufite akantu kameze nk'akagozi, bacisha mu menyo kugira ngo kabashe gukura imyanda hagati y'amenyo, ubu akaba ari uburyo bwiza bwo gusukura amenyo kuko bituma nta myanda yakihisha hagati yayo.

Ni umukobwa ukiri muto ufite imisatsi miremire, wambaye agapira k'umweru akaba afite uburoso bw'amenyo, akaba ari koza amenyo, ibi bikaba ari ingenzi ko n'abandi bantu muri rusange twita ku menyo yacu agahora ameze neza.

Ni abana b'abanyeshuri, bambaye impuzankano z'umuhondo, ndetse hari umwarimu uri kumwe na bo, bose bakaba bamanitse utuntu, hejuru turi mu ishashi, bishoboka ko ari nk'uburoso bw'amenyo.

Ni umugabo, ushinyitse amenyo, akaba afite akagozi, akaba ari kugakoresha akura imyanda hagati y'amenyo, ubu akaba ari uburyo bwiza bwo gukorera isuka amenyo, kuko bituma ukura imyanda, iba yaheze hagati yayo.

Ni kwa muganga, hakaba hari umuntu uryamye ku gitanda, bakaba bamwasamishije bigaragara ko barimo baramuvura amenyo, umuganga uri kumuvura akaba yambaye agapfukamunwa n'amataratara ariko akaba yayazamuye.

Ni abantu babiri, bakaba hari uw'igitsina gore w'umuganga, akaba ari kumwe n'umugabo arimo aritaho kuko arimo arita ku menyo ye, ayahanaguramo utuntu kugira ngo ataba yazamo nk'imyanda.

Ni umusore ndetse n'umukobwa bari kwireba mu ndorerwamo, bafite utuntu tw'utugozi tubafasha gusukura amenyo yabo, bikaba ari ibintu byiza bituma amenyo ahorana isuku.

Ni umugabo wambaye itaburiya y'umweru, n'agapfukamunwa, ndetse n'amataratara arinda amaso ye, akaba ahagaze imbere y'icyuma, kikaba ari icyuma bigaragara ko, cyifashishwa mu buvuzi.

Ni umugabo wambaye umwenda w'umukara, akaba afite uburoso bw'amenyo ndetse akaba ari no kuyoza, bikaba ari ibintu byiza cyane, kuko birinda amenyo bigatuma hatazamo udukoko dutuma arwara.

Ni umugore, urimo uramwenyura, hari utuntu duteretse imbere ye, bigaragara ko ari utwo bakoresha bahanagura amenyo, kugira ngo amenyo agume ameze neza, nta myanda irimo, bityo bigafasha umuntu kwirinda indwara, zo mu kanwa.

Ni abantu babiri umukobwa ukiri muto, ndetse n'umugabo bigaragara ko akuze, uwo mukobwa ukiri muto akaba wari guhereza uwo mugabo ukuze, ibinini ndetse ari n'kirahure cy'amazi ku ruhande, cyo kubinywesha.

Ni mu isoko ricuruza ibintu bijyanye n'ibinyampeke ndetse n'imbuto, hakaba hari abagore bose ubona basa nk'abakuze bambaye ibitenge, bakaba bari kuganira mu gihe bategereje abakiriya.

Ni abagore batatu, bose ubona ko bakuze barimo barifotoza bafite telefoni, bikaba bigaragara ko bishimye ndetse ko banezerewe, bikaba ari ibintu bisa neza.

Ni umugore ufite isahani iriho ibintu byiganjemo imboga, akaba yishimye, bakaba barimo barakangurira abantu kwibanda ku bintu byiganjemo ibimera kuko bituma umubiri umera neza.

Umugabo ukuze ndetse n'umwana, bakaba bafite utuntu mu ntoki bigaragara ko ari nk'umukino bari gukina, umwana ukaba ubona abyishimiye rwose, umugabo nawe akaba yicaye mu kagare.

Umuganga wambaye itaburiya y'ubururu, ari kuvura umugabo ugeze mu zabukuru, ari kumwambika akantu ku kaboko gapima uko umutima uri gutera kugira ngo arebe niba umuvuduko w'amaraso we umeze neza.

Ni abagore babiri, umwe akaba yambaye imyenda y'ubururu y'impuzankano, bigaragara ko ari nk'umuganga, akaba ari kwita ku wundi ukuze wicaye mu kagare, bigaragara ko ari umurwayi.

Ni abantu bicaye bamwe bicaye hasi mu byatsi, abandi bicaye ku ntebe ndetse harimo n'umwe w'umunyamahanga ukikiye umwana, hakaba hari umugore urimo uraboha agatebo.

Ni umugabo ugeze mu zabukuru akaba ari kumwe n'umukobwa, urimo uramwitaho kuko ari kumwambika akantu ku kuboko kamufasha gupima umuvuduko w'amaraso ye kugira ngo arebe ko ameze neza.

Ni abantu babiri b'igitsina gore, umwe akaba asa nk'ukuze undi we biragaragara ko ageze mu zabukuru, uri mu zabukuru akaba arimo aratunganya ibyo kurya, yifashishije ibituruka ku mboga cyangwa ibintu bitarimo inyama.

Uyu ni umugore bigaragara ko akuze akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri, ikaba ari myiza cyane ku bantu bageze mu gihe nk'iki arimo, kuko bibafasha kuguma bameze neza nubwo baba bafite imyaka myinshi.

Abantu babiri umugabo ndetse n'umugore bigaragara ko bose bakuze, umugabo akaba afite telefoni mu ntoki akaba ari ibintu ari kwereka uwo mugore bari kumwe, imbere yabo hakaba hateretse imiti ndetse n'ikirahure cy'amazi.

Umugabo urimo uraseka imbere ye hakaba hari umuntu wambaye itaburiya y'umweru, bikaba bigaragara ko ari nk'umuganga uri kumwitaho, umugabo rwose ukaba ubona ko yishimiye ubufasha ari guhabwa.

Ni abagore batatu bari kuganira umwe muri bo ageze mu zabukuru, bose bakaba bagiye bafite udukarita tw'umukara mu ntoki, bashobora kuba bari kugirana ikiganiro gishishikaje kuko bose bari guseka.

Ni ahantu kwa muganga hakaba hari abaganga bambaye amataburiya y'icyatsi ndetse n'udupfukamunwa, bakaba hari umuntu barimo barabaga ndetse ku ruhande hari amayekara yerekana uko mu mubiri w'uwo murwayi hameze.

Ni abantu benshi bagiye batandukanye, bamwe b'abagabo abandi b'abagore, bicaye ahantu bigaragara ko habereye nk'inama cyangwa amahugurwa, bakaba bicaye bateze amatwi.

Ni abantu bari kugenda benshi bambaye imipira y'imyeru, bakaba bari mu bukangurambaga kuko ababari imbere bafite udupapuro twanditseho ngo twirinde kanseri y'ibere, tuyisuzumishe hakiri kare kuko ivurwa igakira.

Aha hari icyapa kirimo kirashishikariza abantu kwirinda kanseri, bakaba bavuze kimwe mu bintu umuntu yakora kugira ngo ayirinde, harimo kwirinda umubyibuho ukabije, kuko akenshi ariwo utera kanseri.

Akapa karimo karatumirira abantu ukwifatanya mu bukangurambaga bwo kwirinda kanseri bakaba bavuze ko byari kuba ku wa gatanu mu kwa kabiri tariki enye ya bibiri na makumyabiri naka kabiri.

Umusore uhagaze wambaye ishati y'umweru ndetse hari n'undi mugore uhagaze iruhande rwe, bombi bakaba bafite akapa kanditseho ko tugomba kwisuzumisha igituntu bityo kikaba cyavurwa kigakira kitarakomera.

Ni abantu bicaye imbere y'abandi, bikaba bigaragara ko bari kubaganiriza ku ngingo runaka, abandi rero bakaba bicaye bateze amatwi ndetse bari kwandika ibyo bari kubwirwa.

Abantu benshi biganjemo urubyiruko, bakaba bari mu bukangurambaga kuko bari kugenda mu muhanda bafite icyapa cyanditseho ngo rubyiruko ni mwe hazaza heza h'uru Rwanda, irindi virusi itera Sida, ipimishe uyu munsi.

Ni abantu bahagaze bose bambaye udukarita mu ijosi, hakaba harimo abirabura ndetse n'abazungu, bakaba bakorera ikigo runaka cy'ubuvuzi gicuruza ndetse n'imiti.

Aha ni ku kigo nderabuzima cya Kanyinya, akaba ari ahantu abantu bihutira kujya mu gihe bumva batameze neza, urugero wenda ari nk'umugore wenda kubyara cyangwa ugiye kubyara ako kanya.

Ibi ni ibitaro bya kabgayi aho abantu bo muri kabgayi cyangwa izindi nshe ziri hafi y'aho bihutira kujya mu gihe bakeneye ubufasha bw'ibanze mu bijyanye n'ubuvuzi.

Ni ahantu ku kigo nderabuzima hakaba hari ahanditse ngo inzu y'ababyeyi, akaba ari ho ababyeyi baza bakitabwaho kugira ngo nk'abana babo bakiri bato bahabwe ubuvuzi.

Ni mu bitaro runaka hari ibitanda ndetse n'abarwa bagiye ba biryamyeho, hari n'umusore wambaye utuntu mu ntoki ndetse n'umupira w'ubururu n'ipantaro y'umukara, ufite akantu urimo urakora isuka aho hantu.

Ni ahantu hari intebe nziza z'umukara ndetse n'ameza ubona ko ari meza cyane, ndetse hubatse neza, hasize irangi ryiza, hakaba ari nk'ahantu umuntu yajya gukorera akazi.

Ni ahantu kwa muganga kuko hari ibitanda abarwayi baryamaho ndetse hari n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu buganga bikaba binafasha abo barwayi baba baryamye ku bitanda.

Iki ni ikigo nderabuzima cya Shagasha, hakaba ariho abantu bo muri Shagasha baza nko mu gihe bakeneye ubuvuzi bwihutirwa, urugero nk'abagore batwite bakaza kwisuzumisha inda zabo uko zimeze.

Ni ku kigo nderabuzima cya Kigina, hakaba hari umugore bigaragara ko ahavuye cyangwa uri kujyayo, uhetse umwana, akaba avuye nko kumusuzumisha cyangwa kumukingiza kugira ngo amenye neza ko umwana we ahagaze neza.

Ni ahantu ku bitaro hari abantu bari kugenda ku ruhande, ni ibitaro ubona byiyubashye kuko bigeretse inshuro nk'ebyiri cyangwa eshatu, bikaba bigaragara ko amafaranga ashorwa mu buvuzi atari makeya.

Ni mu bitaro runaka ariko bigaragara ko biteye imbere, kuko hari udutanda ubona tukiri dushyashya tw'abarwayi ndetse hari n'imashini z'ikoranabuhanga, ubona ko rwose na zo zifite akamaro gakomeye.

Ni abantu bambaye amatabura y'umweru bikaba bigaragara ko ari abaganga kuko umwe muri bo arimo guha ubufasha umuntu wamugannye bigaragara ko ari kumufata amaraso kugira ngo arebe uko ubuzima bwe buhagaze.

Ni kwa muganga hakaba hari agatanda k'ubururu karyamaho umurwayi ndetse ku ruhande hari imashini iyo mashini hakaba hari na ekara yayo iri hejuru, ikaba yifashishwa mu kwerekana uburyo umurwayi ameze.

Ni ahantu ku bitaro, hakaba hari imodoka nziza, ndetse hari n'abandi bantu bagiye batandukanye, bigaragara ko ibi bitaro, ni ibitaro bisirimutse, byiza cyane, bijyanye n'igihe.

Ni kwa muganga, hakaba hari ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, nk'ibyerekana ibisubizo by'ibizamini abantu baba bafashwe, bikaba rero bigaragaza ko ubuvuzi bumaze gutera imbere mu Rwanda.

Ni mu bitaro ubona ko ari ibitaro by'ibisirimu bigendanye n'igihe, kuko hari ibyuma bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga bituma ubuvuzi bwihuta kandi bukaba ari ubuvuzi bugendanye n'igihe.

Aha ni ku kigo nderabuzima cya Gishweru aho abantu bo muri Gishweru bagana, bagahabwa ubuvuzi bitabagoye kandi ibintu biraborohereza kuko hari nk'igihe ibitaro bikuru biba bitari hafi aho.

Ni umusore w'umuganga uhagaze imbere y'icyuma cy'ikoranabuhanga gikoreshwa kwa muganga, bikaba bishoboka ko ari nko gusuzuma ibizamini afasha umurwayi, kugira ngo arebe ikibazo uwo murwayi afite.

Ni ahantu heza, hasa neza, hari intebe nziza zigiye zifite ibara rijya gusa nk'ubururu bw'ikirere, bikaba bigaragara ko ari nk'ahantu habera inama cyangwa amahugurwa, kuko harasa neza cyane.

Ni umugabo urimo urasobanurira abandi bantu ku ngingo runaka, iyo ngingo ikaba ivuga ku bintu bijyanye no kwirinda malariya, akaba ari kubasobanurira yifashishije amashusho bashyize ku rukuta.

Ni ahantu ku bitaro hagiye hari ibitanda bigiye bitandukanye ndetse n'amamashini afite akamaro mu gufasha abarwayi, akaba ari ahantu hateye imbere rwose ubuvuzi buhatangirwa ni ndashyikirwa.

Ni ku bitaro hari umugore wicaye ndetse hari n'undi uhagaze bose bambaye amataburiya y'umweru, bakaba bari kwita ku barwayi, umwe muri bo akaba ari kwita ku mugore wicaye mu kagare.

Ni ahantu hari ibyuma bigiye bitandukanye bikoreshwa mu buvuzi, hakaba bigaragara ko ari kwa muganga ndetse ku rukuta hakaba hariho ekara nini, bigaragara ko ari yo inyuraho amashusho.

Ni umugabo wambaye itaburiya ifite ibara ry'umweru ndetse yambaye n'agapfukamunwa k'umutuku, si ibyo gusa yambaye n'akantu k'agashashi mu mutwe, akaba ari kureba muri ekara bigaragara ko ari icyuma ari gusuzuma ibyacyo kwa muganga.

Aha ni ahantu kwa muganga, hakaba hari utubati tugiye turimo imiti ndetse n'ibindi bintu bikoreshwa kwa muganga bigiye bitandukanye, bikaba bigaragara ko bipanze kuri gahunda rwose.

Aha ni ku bitaro by'Akarere ka Nyarugenge kuko bigaragara ku cyapa kinini ndetse hakaba hari abantu babiri batagaragara neza, bahagaze imbere y'icyo cyapa bambaye imyenda isa umweru.

Ni umugore ukuze wambaye igitenge, ari kumwe n'umugabo wambaye itaburiya isa ubururu ndetse afite n'akantu yambaye mu ijosi gafite akamaro ko kuba gatuma yumva uko umutima w'umurwayi utera.

Ahantu bigaragara ko ari kwa muganga, hakaba hasa neza, hari utuzu tugiye dufite ibirahuri ku buryo ureba mo imbere, bikaba bigaragara ko habikwa ibikoresho byo kwa muganga.

Ni ahantu hitwa Piniyeri farumasi akaba ari ahantu hacururizwa imiti ndetse banagaragaje ubwishingizi bakorana, bukaba burimo rama ndetse n'ubundi bwishingizi bugiye butandukanye.

Ni ahantu hazwi nka farumasi cyangwa ahacururizwa imiti, haba hari imiti igiye itandukanye, aho ubegera ukababwira imiti ushaka cyangwa ukabereka nk'agapapuro kariho imiti kwa muganga bakwandikiye, maze bakayiguha.

Aha ni kwa muganga, hakaba hari ibyuma bibiri bifite ibara ry'ubururu ndetse bifite n'utu ekara hejuru ndetse hakaba hari n'izindi mashini zigiye zitandukanye, zose zikaba zikorera hamwe kugira ngo zifashe abaganga mu bikorwa byabo.

Ni inyubako ubona ko ari shyashya yubatswe n'amatafari ahiye, nziza cyane rwose ndetse hari n'indi iyiri iruhande na yo ijya kumera nkayo. Zikaba ari inyubako bigaragara ko ari nko ku Bitaro.

Ni ahantu hasa neza cyane, bishoboka cyane ko ari mu bitaro, ibitaro bigezweho kuko birasa neza cyane ndetse bifite isuku, bigaragara ko umuntu wese yakwishimira kujya kuhivuriza.

Ni inzu ndende mu igorofa ryo hasi hakaba harimo ahantu hazwi nka farumasi, aho hakaba hafite akamaro kuko umuntu ahajya akahagurira imiti baba bamwandikiye kwa muganga cyangwa indi aba akeneye bitewe n'ukuntu muri we yumva ameze.

Ni ahantu hari amazu agiye atandukanye, bikaba bishoboka ko ari amazu y'ibitaro, akaba yubatswe neza rwose ndetse akaba asukuye. Bikaba bigaragaza ko ubuvuzi bwo mu Rwanda bumaze gutera imbere.

Ni ahantu kwa muganga, ariko hahariwe abana, kuko hari agatanda gato, bigaragara ko kaba karimo abana, bikaba ari ibintu byiza ko abana bakiri bato babona ubuvuzi bwiza nk'ubu, kuko bibafasha mu mikurire yabo.

Ni umusore wambaye agasengeri k'umukara urimo urigorora, bigaragara ko ari gukora imyitozo ngororamubiri bikaba bifasha umuntu kugororoka akaguma afite umubiri urambutse.

Ni abantu babiri, umwe akaba afashe ukuguru k'undi akaba ari kumugorora, ibi bikaba bifasha uwo uri kugororwa kuba yarambuka imitsi ye ikarambuka, bityo amaraso agatembera neza mu mubiri.

Ni ahantu hari uducupa tugiye dutandukanye twiganjemo utw'ibara ry'umweru tukaba tuba turimo imiti, si ibyo gusa hari n'utuntu abaganga bambara mu ntoki kugira ngo batabe bakora ku murwayi n'intoki gusa, bakaba bakuzamo kwandura.

Ni umusore uri kwa muganga wicaye ku gitanda barimo baramupfuka ikirenge, bigaragara ko ari nk'imvune yakigizeho cyangwa akaba yarakomeretse binyuriye nko mu mpanuka cyangwa ibindi bigiye bitandukanye.

Ni ahantu hagutse, hari abantu benshi b'ingeri zigiye zitandukanye, hari abana, hari abagore, ndetse n'abagabo, bakaba bahuriye hamwe kugira ngo bakore imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa ukiri muto wambaye imyenda y'umukara ndetse n'inkweto z'umweru wicaye hasi, akaba arimo arigorora bikaba bifite akamaro ko kumufasha kurambuka, bityo akaguma ameze neza.

Ni mu bitaro runaka hakaba hari umugabo ufite icyuma cy'ikoranabuhanga gikoreshwa mu buganga, akaba arimo arakereka abandi bantu bahari bigaragara ko ari abaforomo ndetse hari ibintu bari kwandika.

Umuntu uri kwa muganga bakaba bari kumurambikaho akantu kameze nk'agasashi bigaragara ko ari ubuvuzi ari gukorerwa, ubuvuzi bukaba buri bumufashe kumererwa neza agasubira mu buzima bwa buri munsi.

Ni uducupa dutatu twamamaza imiti ifasha abantu kutumva ububabare, nko mu gihe wenda bahuye n'imvune cyangwa ibindi bintu byabatera uburibwe.

Ni umugore wambaye igitenge cy'ubururu, yicaye ku gitanda cyo kwa muganga, iruhande rwe hakaba hari umwana. Bombi bakaba bishimye bigaragara ko bahawe ubuvuzi bari baje kwaka kwa muganga.

Ni umugabo wambaye umupira w'ubururu, ufite icupa ryamazi, uri kunywa, bikaba ari ingirakamaro ko umuntu anywa amazi kuko bituma impyiko ze zikora neza, ndetse n'ibindi bice by'umubiri.

Ni ikiganza gifite ikirahure kimeze ariko nk'ijagi kikaba kiri gusukwa amazi mu kindi kirahure amazi kikaba ari ikinyobwa cy'ingenzi buri muntu wese agomba kunywa buri munsi kuko gifasha umubiri gukora neza.

Ni imipira igi itandukanye yifashishwa mu gukina imikino igi itandukanye, urugero nk'umupira w'amaguru tenosi ndetse n'indi myinshi, bikaba bigaragaza ko barimo barakangurira abantu kugira nibura umukino umwe muri yo bakina.

Ni umuhanda urimo imodoka ifite ibara ry'umweru ndetse n'iry'umutuku ikaba izwi nk'imbangukiragutabara, ikaba ifite akamaro ko kwihutishiriza abantu kwa muganga mu gihe bibaye ngombwa.

Ibi ni ibikoresho bifashishwa mu myitozo ngororamubiri, aho harimo ibintu biba bifite ibiro bigiye bitandukanye bitewe n'imbaraga z'umuntu, umuntu agenda aterura bityo bigatuma yaguka imikaya ye ikaba minini.

Ni umukobwa bigaragara ko akora imyitozo ngororamubiri, ufite icupa ry'amazi uri kurinywa, bikaba amazi ari meza cyane afasha impyiko gukora neza ndetse n'ibindi bice by'umubiri bitandukanye.

Ni umusore wicaye wambaye imyenda y’umukara uri kunywa amazi ndetse hari n'umukobwa uhagaze iruhande rwe, bikaba bigaragara ko bavuye gukora imyitozo ngororamubiri, akaba ari yo mpamvu ubona bagaragara neza.

Abantu batatu bari ahantu mu kibuga bapfukamye, bakaba babiri ari abatoza, undi uri hagati wambaye ikintu gikingira umutwe akaba ari umukinnyi, bikaba bigaragara ko bari kumufasha.

Ni umugabo wambaye ijire, ifite ibara ry'icyatsi, akaba afashe umusore wambaye agasengeri k'umutuku, kanditseho imibare imuranga imbere, bigaragara ko ari nk'umwe mu basiganwa n'amaguru.

Aha hari imbuto zigiye zitandukanye, ndetse hari amazi, ndetse hari n'umutobe, si ibyo gusa hari n'inyama, bakaba bari kwerekana amafunguro agiye atandukanye umuntu akeneye kugira ngo abe ariye ifunguro ryujuje ibice byose biba bikenewe.

Ni umusore uri ahantu bakorera imyitozo ngororamubiri akaba arimo araterura igikoresho cyabigenewe gituma umuntu imikaya ye ibasha kwiyongera ikaba minini bikaba ari ibintu byiza cyane nk'abasore bagakwiye gukora kugira ngo bagaragare neza nk'abantu bafite imbaraga.

Ku bitaro hari umugabo wambaye umupira w'umutuku akaba arimo arapfuka undi umwicaye imbere ye ufite imvune ku kuguru, akaba wenda yarakoze nk'impanuka cyangwa akaba yaratsikiye.

Ni umusore wambaye umupira w'ubururu afite agacupa k'amazi ari kuyanywa, amazi akaba ari ingirakamaro kuko atuma umubiri w'umuntu ukora neza cyane cyane impyiko bityo akirinda indwara.

Ni umusore wambaye imyenda y'umukara urimo ukora imyitozo ngororamubiri, akaba ari umusore usutse bikaba bigaragara ko mu buzima bwe bwa buri munsi akunze gukora imyitozo ngororamubiri.

Umugabo, bigaragara ko yari arimo gukora imyitozo ngororamubiri, yiganjemo kwiruka, kuko urabona ko yabize icyuya, akaba arimo aranywa amazi, aya mazi akaba ari bumugarurire ubuyanja, kuko mu kubira icyuya aba yatakaje menshi.

Aka ni akantu bomeka ahantu kakaba gafite akamaro ko kuzirikwa ku muntu ukora imyitozo ngororamubiri n'ahantu yagize imvune kugira ngo hatabyimba.

Hari abantu batandukanye, biganjemo ab'igitsina gore, bambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu bw'ikirere, bakaba bipfutse n'utuntu mu mutwe, bikaba bigaragara ko ari abaganga. Abaganga bakaba ari ingirakamaro cyane.

Ni imyitozo icumi umuntu ashobora gukora mu gihe yari amaze igihe yaragize ikibazo kijyanye n'ubwonko iyo myitozo ikaba irimo kuba we yakwicara agahaguruka nta kintu yifashishije ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Ni ibintu bigiye bitandukanye, nk'agakapuu bigaragara ko gatwarwamo ibikoresho byo gutanga ubufasha bw'ibanze ndetse hari n'ibindi bintu bigiye bitandukanye byifashishwa mu gikorwa cy'ubuganga.

Ni ikiganza gifite agacupa karimo amazi, amazi akaba ari ikintu cy'ingenzi buri muntu wese akeneye mu buzima bwe, cyane cyane kuyanywa, kuko atuma umubiri w'umuntu ukora neza.

Iyi ni imiti ifasha abantu ba gukora imyitozo ngororamubiri, kuba bahagarika ububabare nko mu gihe wenda bagize nk'imvune bikabafasha kuba badakomeza kubabazwa cyane n'iyo mvune.

Ni mu bitaro runaka, hakaba hari umugabo uryamye ndetse n'undi uhagaze, bigaragara ko uryamye bari kumuvura ibibazo bijyanye n'umugongo, kuko biragaragara ko hari utuntu bamucometse ku mugongo.

Ni umukobwa ukiri muto, wambaye imyenda y'umukara, bigaragara ko abyutse kuko arimo arinanura, bikaba bigaragara ko afite umubiri mwiza kuko akora imyitozo ngororamubiri.

Ni umusore urimo urigorora kuko ahagaze hasi azamuye ukuguru, iyo akaba ari imyitozo myiza kuko ituma umuntu atandukana n'amavunane, akagira umubiri umeze neza amaraso agatembera neza mu mitsi.

Ni umugore uri kumwe n'umwana uri kumwitaho, akaba amubwiye ngo yubure umutwe kugira ngo yitegereze mu kanwa ke arebe niba amenyo ye adakeneye kwitabwaho cyangwa kuvurwa.

Ni umukobwa wambaye imyenda y'umweru, akaba arimo arakora imyitozo ngororamubiri. Bikaba ari ingirakamaro cyane kuko bituma umuntu agumana ingano nziza y'umubiri, kandi akagira ubuzima bwiza.

Ni umusore wicaye wambaye ikoti bigaragara ko yahoze mu myitozo ngororamubiri akaba afite icupa ry'amazi ari kuyanywa bikaba ari ingenzi ko mu gihe umuntu yakoze imyitozo ngororamubiri agomba kunywa amazi kuko bimufasha gusubirana amazi yatakaje.

Ni agacupa kabamo umuti ukoze mu bimera iyo akaba ari imiti myiza cyane, kandi ivura ku kigero cyo hejuru kuko iba ikozwe n'ibimera karemano bityo ivura abantu neza.

Ni akabati karimo imiti igiye itandukanye ya kinyarwanda cyangwa gakondo, ikaba ari imiti y'ingirakamaro kuko iba ikozwe mu bintu kamere, bityo nta ngaruka zindi yagira ku mubiri.

Ni ahantu mu isoko bacuruza ibintu bitandukanye birimo ibinyampeke, imboga ndetse n'imbuto, hakaba harimo abantu b'ingeri zigiye zitandukanye baje guhaha kimwe muri ibyo.

Ni agacupa k'umweru gateretse ku isahani iriho amaronji ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, bikaba bigaragara ko karimo umuti ukozwe muri ibyo bintu. Imiti ikozwe mu bintu karemano ikaba ari imiti myiza kandi ifasha umubiri.

Ni icupa ry'umweru ririmo umuti ndetse no k’uruhande hari isabune, bikaba bigaragara ko ibi byose ari ibintu bikozwe mu kimera kizwi nk' igikakarubamba bikaba ari ingirakamaro mu buvuzi.

Ni icupa ry'umweru rishushanyijeho igikakarubamba bikaba bigaragaza ko ririmo umuti uba ukozwe mu gikakarubamba, ukaba ari umuti ukoreshwa mu kuvura amenyo.

Ni mu ishyamba hari igiti gifite utubabi dusa icyatsi kikaba kifashishwa mu gukora imiti bifashishije ibimera karemano, bikaba bituma imiti iba imeze neza atari nk'iyaciye mu nganda ishobora gutera abantu izindi ndwara.

Ni byatsi ndetse hari igiti gihari kigufiya gifite amababi y'amabara agiye atandukanye yaba umuhondo, umutuku ndetse n'andi menshi kikaba kigaragara neza cyane

Ni uturahure tubiri duteretse ku meza, turimo ibibabi ndetse n'amazi yakuwe muri ibyo bibabi, ibibabi bikaba rero bivamo imiti, yifashishwa mu kuvura abantu kandi ikaba iba ari karemano bityo bivura neza.

Ni igihingwa cyihariye gifite amababi y'icyatsi ndetse n'uturabo tw'umutuku, kikaba gifite akamaro ko gukorwamo umuti gakondo cyangwa karemano, ukavurishwa abantu bagakira.

Ni uducupa tubiri turimo umuti uba ukoze mu gikakarubamba, ukaba ari umuti mwiza kuko ikikakarubamba nk'uko bizwi ni igihingwa ariko kivura ibintu byinshi, uyu muti rero bakaba barahisemo kuwugikoramo.

Ni uturahure tubiri duteretse ku meza turimo ibibabi ndetse n'amazi yabyo, bigaragara ko ari nk'umuti wa kinyarwanda cyangwa umuti gakondo ukoze mu bimera.

Ni agacupa k'umweru iruhande rwako hakaba hashushanyijeho ibimera by'icyatsi, bigaragara ko ari imiti ikozwe muri ibyo bimera iba iri muri ako gacupa, bikaba bivugwa ko gafasha ubwonko gukora neza.

Ni agacupa k'umweru kariho udushushanyo, bigaragara ko ari nk'imiti ivura abana, kuko kuri ako gacupa hananditseho ijambo risobanuye abana, ariko riri mu ndimi z'amahanga.

Ni uducupa dufite ibara ry'umweru tukaba tuba turimo umuti ukoze mu gikakarubamba, uyu muti ukaba ufasha abantu bafite indwara z'uruhu, kuko nka mbere uruhu rw'umuntu ruba rumeze nabi ariko nyuma yo gukoresha uyu muti uruhu rwe rugasigara rusa neza.

Ni agacupa k'umweru gafite igipapuro cy'umuhondo, kakaba kaba karimo ibinini by'imiti ikoze mu gikakarubamba ndetse n'ubuki, uyu muti ukaba ari ingirakamaro kuko ufasha abantu gukira indwara runaka.

Uducupa tubiri dufite ibara ry'umuhondo bigaragara ko tuba turimo umuti ukoze mu gikakarubamba, uyu muti ukaba ari ingirakamaro kuko nk'uko bizwi igikakarubamba gikunda kwifashishwa mu bintu bijyanye n'ubuvuzi.

Ni ikiganza kigaragara ko ari icy'umuntu wambaye umupira w'ubururu, akaba agishyize ku gihingwa runaka bishoboka ko wenda kivamo nk'umuti. Ibihingwa bikaba bikorwamo imiti kandi iyo imiti ikaba iba ari umwimerere igafasha abantu.